Umugabo uhetse ipompo y'icyatsi, yambaye ingofero mu mutwe yambaye n'agapfukamunwa, yikwije kugira ngo umuti ari gutera mu muceri utamutarukira akaba yagira ingaruka.

Umugabo wambaye imyenda y'imikara, ahetse ipombo y'umuhondo n'ubururu. Hakurya ye hari amazi, hakurya y'amazi hari ishyamba. Ari mu gihingwa cy'ibigori, aho ari kugenda atera umuti ibyo bigori.

Umugabo arimo aratera umuti umuceri, uwo mugabo ahetse ipompo y'umweru, yambaye agapfukamunwa kanini cyane ku buryo ntaho aribuze guhurira n'iyo miti.

Abagabo batatu bari mu gihingwa cy'umuceri bafite amapombo mu migongo yabo, bambaye amagofero, bitwikiriye ibyenda byinshi kugira ngo imiti bari gutera itabajyaho.

Umuntu uhetse ipombo y'ubururu, yambaye agapira k'ubururu n'ipantaro bijya gusa kake, afite akarindantoki mu ntoki yambaye, arimo aratera umuti ibihingwa.

Ibiganza byambaye uturindantoki, aho hari akantu biteruye karimo ikimera ubona ko barimo baragisukaho amazi, ni ibiganza byambaye uturindantoki tw'umweru.

Umugabo wambaye imyenda y'imihondo, yambaye agapfukamunwa k'umukara, ahetse ipompo mu mugongo arimo aragenda atera umuti ibihingwa yateye ndetse hari n'ibindi bihingwa biri impande ze bimukikije.

Umugabo wambaye ipantaro ya kaki ahetse ipombo mu mugongo y'ubururu, yambaye ingofero y'umweru arimo aratera umuti mu myaka yahinze. Iyo uteye umuti imyaka yawe irera.

Umuntu uri kugenda yuhira imyaka ye afite ipombo mu mugongo y'umuhondo ndetse n'icyatsi, ari mu myaka myiza cyane itoshye. Kuhira imyaka bituma yera.

Abagabo babiri bipfutse ndetse kugeza mu maso. Bahetse amapombo adasanzwe mu mugongo. Bari kugenda mu gihingwa cy'umuceri bateramo imiti.

Ubuhinzi bw'intoryi, intoryi ni igihingwa cyiza dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, mo hagati harimo insina imwe no hirya hari inyubako yubakishije amatafari ahiye, umugabo arimo aruhira izo ntoryi.

Iyo wahinze imyaka ni ngombwa kugenda uyisura ukareba niba ikura neza, ukayitera umuti ku gihe kugira ngo ubukoko butazayangiza.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umuhondo, umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, ari mu gihingwa cy'umuceri aho ahetse ipompo y'ubururu agenda avomera uwo muceri kugira ngo uzazane umusaruro uhagije.

umu mama witeze igitambaro cy'icyats,i ari mu iduka aho acuruza imiti y'amatungo. Hari imyinshi imanitse mu macupa mu kabati n'indi iteretse ku meza.

Umumama wambaye itaburiya yu'umweru arimo aruhira indabyo nziza cyane, afite agapompo mu mugongo gafite ikintu bafataho bakuhirira imyaka.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, yambaye ingofero y'umweru, ishati y'umweru n'ipantaro y'icyatsi cyijimye. Ari mu gihingwa cyumuceri, aho arimo aragenda yuhira kugira ngo uwo muceri uzere neza.

Ni abagabo babiri bahagaze mu murima urimo umuceri, aho barimo barawuhirira bakoresheje amapombo yabugenewe, iyo wahinze ugasubira inyuma ukavomerera biba bisa neza cyane.

Bari hagati y'amazi barimo baratambuka aho umugabo ari kubereka hakurya ye. Ni abantu bakeya ndetse n'abandi bari inyuma yabo bari kuza babasanga.

Umugabo wicaye impande y'ibyuma byifashishwa barimo bararoba, afite mu ntoki imbuto agiye gutera mu mazi, hanyuma amafi akamwizanira.

Umumama wateye ihina afite agacupa karimo imbuto arimo arayimena hasi kugira ngo ayitoranye neza ajye gutera, yateye ihina ry'umuhondo, ni ibiganza bye bigaragara.

Amazi, ibimera ndetse n'umusozi. Hari abantu bake bari iruhande rw'ayo mazi muri ibyo bihingwa. Iyo wahinze ahahegereye amazi, ureza kandi ugasarura neza.

Ahantu mu kibaya, hari ibiti hakurya yabyo, hari ndetse n'ibimera biteyemo hagati. Hari akazu, kari mu mazi hagati.

Umumama wambaye umupira wa oranje ateze igitambaro akenyeye agasharupe k'umuhondo n'umukara harimo utunyoni, ari iruhande rw'ikiyaga kinini cyane, hakurya yacyo hari insina.

Amafi ni ingirakamaro mubu buzima bwacu bwa buri munsi, abagabo bane barimo bararoba amafi aho batayemo urushundura kugirango nibazamura haze amafi menshi.

Umumama wicaye mu bwato, ubwato buri mu mazi yambaye imyenda y'ibitenge arimo araseka, hakurya ye hari amazi menshi cyane, hakurya y'ayo mazi hari imisozi.

Abantu b'abagabo bafite ibyishimo byinshi, barobye amafi bari hafi y'ikiyaga bayarobyemo, bamwe bambaye ubusa abandi bambaye imyenda.

Amafi abiri ari mu mazi arimo aroga, ni ubworozi bw'amafi aho tuba dusabwa byibuze buri cyumweru kurya igikoko kiba mu mazi nk'inyama, aho tugira ubuzima bwiza.

Amafi ari mu rushundura, aho yafashwe n'abarobyi, baziritse urwo rushundura ahantu haruguru ubundi bajugunya mu mazi amafi yizanamo, amafi araryoha.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara ari iruhande rwibiti bimeze nk'ibyuma, imbere ye hari ibimera birambitse ari mu nzira.

Abantu benshi babiri bari mu mazi bambaye ubusa abandi bambaye imyenda bafite inshundura barimo bararoba, haruguru hari abandi bari kubareba bafite n'amadobo yo gutwaramo amafi menshi cyane.

Uburobyi bw'amafi ni uburobyi bugezweho kuri ubu aho ushobora kuroba amafi yuzuye ibasi cyangwa indobo ukagenda kuyagurisha ukabonamo amafaranga menshi.

Iyo warobye amafi ukayajyana ku isoko ubona amafaranga menshi cyane cyangwa se n'abo mu rugo mukayarya. Amafi menshi agira umumaro kandi kurya ifi ni byiza.

Umumama ubyibushye wirabura, ahagaze hafi y'ikiyaga, hakurya harimo aho bubakiye uduti muri icyo kiyaga, hari n'ibyatsi bizengurutse icyo kiyaga.

Bari mu cyayi ni abagabo ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye, bahetse udutebo ku migongo yabo. Baba bagenda basoroma icyayi bashyira muri utwo dutebo baba bafite.

Umugore wambaye agapira ka oranje arimo arasarura ikawa, ikawa igira amafaranga menshi kugira ngo ubyemere iyo uyigurishije ari ibitumbwe ubona amafaranga menshi.

Umumama wambaye agapira k'umuhondo ku maboko ndetse no ku ijosi hari umukara, akenyaye igitenge yicaye mu bihingwa, hirya ye hasa n'ahari urutoki kuko hari urukoma rumukoraho.

Igihingwa cy'umuceri, umuceri ni igihingwa kigezweho aho ugitera ugasubira inyuma ukajya kubagara, ukavomera ukarinda inyoni ndetse ukazagera igihe cyo gusarura.

Umubyeyi wambaye ikote ritukura yifubise igitenge ateze igitambaro gitukura ari mu cyayi arimo aragisarura, mu cyayi yateretsemo agatebo kenda kuzura icyayi.

Ibihingwa bishinzwe kuzana amafaranga, harimo icyayi, ikawa, umuceri, ndetse n'ibindi bitandukanye. Hari nk'ibiseke ndetse n'icyayi kiri mu gakombe.

Umumama uteze agatambaro wambaye n'umupira bisa arimo arasarura ikawa, hariho ikawa zihishije izindi bikiri ibitumbwe n'izindi ziri kujya guhisha.

umu mama uteze igitambaro k'icyatsi, yambaye agashati. Arimo arasarura igihingwa cy'ikawa. Ikawa muri uru Rwanda igezweho, aho usarura ukagurisha ibitumbwe ukabona amafaranga menshi cyane.

Ikawa ni kimwe mu gihingwa ngandurabukungu, aho iyo yeze neza iratukura warangiza ukayisoroma ukayijyana ku isoko, bakaguha amafaranga menshi, ukayakoresha icyo ushaka.

Umugabo uri mu muceri, ni igihingwa yahinze kugira ngo azabone amafaranga, uyu mugabo arabyibushye ndetsese arimo aragenzura uyu muceri we.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu aho kiba kimeze nk'igitoshye ariko kandi kikagira ikawa zzisa umutuku, izi kawa ni zo zigenda zikavamo amajyane.

Mu kibaya harimo ibihingwa bigiye bitandukanye, iyo wabivomereye ukabyitaho, nta kabuza ugira umusaruro utubutse, niyo mpamvu dushishikarizwa kugira ibibaya duhingamo.

Ikiganza gifashe icyayi. Hari n'ibindi bintu by'umukara mu kindi kiganza. Icyayi ni ubuhinzi bwiza buzana amafaranga ku gikora, ugihinga ndetse n'ugisarura.

Imyaka ihinze neza aho ari imyaka izana amafaranga mu rugo ndetse ikagura ubukungu bw'igihugu, ni imyaka iyo yitaweho igira umusaruro ushimishije.

Umusore wambaye ingofero y'umukara, ikoti ry'umukara, ahetse ibage y'umukara ari mu cyayi yambaye ipantaro y'ikoboyi, ari kuri telefone arimo aratambuka mu cyayi.

Umumama uri mu cyayi arimo aragisarura, aho hari n'ibiti byinshi by'inganzamarumbo hirya ku mpande. Hari umusozi hakurya, usa naho wijimye.

Abagore babiri bari mu gihingwa cy'icyayi, aho bahetse udutebo ku migongo yabo kuko iyo ugiye mu cyayi ugiye kugisarura, wifashisha agatebo ukajya usoroma ushyiramo.

Abantu bari mu cyayi barimo baragisarura, icyayi ni igihingwa cyiza ngengabukungu, aho iyo wagisaruye neza ukagitunganya havamo amajyane ndetse n'ibindi byo kunywa.

Umugabo wambaye akagofero k'icyatsi, umupira wicyatsi, arimo arakora mu bintu by'icyatsi kibisi, aho yabikojejemo intoki. Ni mu mazu yabugenewe kubikamo ibicuruzwa.

Bari mu murima aho barimo baragenda batera umuceri ku murongo ni abantu benshi aho bunamye bose buri wese afite ibyo ari gutera, baratera ku mirongo kugira ngo bazabone uko babivomera.

Iy'amatungo itandukanye, ni imiti ivura indwara zitandukanye z'amatungo ikaba iri mu macupa menshi agiye atandukanye, hari afite imifuniko y'umweru andi afite imifuniko y'ubururu andi ay'icyatsi.

Imiti itandukanye iri mu macupa ndetse hari n'utuhure tw'udukombe two kuyihesha amatungo, hari ishushanyijeho ingurube, ihene, inka, yose ivura amatungo ndetse iri mu mashashi atandukanye.

Ubworozi bw'inkoko, zifite aho kurira ndetse n'aho kunywera amazi. Inkoko zitanga umusaruro utubutse, haba inyama, amagi ndetse no kugurisha, zigakurwamo amafaranga.

Udufuka twinshi ndetse n'uducupa hari imiti myinshi cyane ivura amatungo, iyo woroye amatungo ni ngombwa kuyashakira n'imiti kugira ngo uyavuze neza.

Iigikoresho cyo kwa muganga cy'ubururu. Kiba kigaragara nk'ikirimo imiti ndetse ivura amatungo, giteretse ku ntebe y'umweru ya parasitiki.

Imiti iri mu ducupa dutandukanye, hari utw'umweru tw'umuhondo, hashushanyijeho ibintu byinshi bitandukanye. Ni amatungo nk'inka, ingurube, intama, ihene, iyo miti yifashishwa mu kuvura ayo matungo.

Imiti y'amoko menshi, iyivura inkoko, ivura ihene, ivura inka ndetse n'ingurube. Iri ahantu iteretse mu bucupa butandukanye bufite imipfundikizo iminini n'imitoya.

Umuti ushushanyijeho inka iri mu byatsi, uyu muti uvura inka abaveterineri bawifashisha barimo barazivura kugira ngo zigire umukamo.

Igikoresho cyo mu ibara ry'icyatsi kibisi, gifiteho utuntu tw'utwuyuma bafata. Ni igikoresho cyifashishwa n'abaganga iyo bariho batera inka amaherena ku matwi.

Imifuka irimo imiti y'amatungo itandukanye. Ni imifuka ikozwe mu mashashi aho haba hashushanyijeho imiti ivura inka cyangwa ingurube cyangwa ihene, ntiwamenya ariko ni byinshi cyane.

Imiti y'amatungo iyo tworoye nk'inkoko, inka n'ihene tuba dukwiye kuyigurira imiti kugira ngo tuyivure, iyi miti irakoreshwa cyane n'abaganga b'amatungo barayikoresha.

Guhinga imboga bigira umusaruro mwinshi, iyo wazitayeho ukazivomera. Iyo wazihinze ku mirongo biba akarusho kuko ubona aho utambuka, ujya kuzisoroma.

Umugabo wambaye bote z'icyatsi, ipantaro y'umukara, umupira w'umweru n'umukara ari iruhande rw'inka ze, aho azigaburira neza akazuhira amazi kugira ngo zitange umukamo.

Umusore wambaye ikote ry'umweru ari mu gihingwa cy'amasaka. Amasaka iyo wayahinze neza mu kwezi kwa gatandatu aba asaruwe. Ni umusore urimo uritegereza uko ayo masaka ameze.

Umuma ari mu murima arimo arabagara ibihingwa yahinze, yambaye ikanzu y'igitenge afite n'agasharupe mu'ijosi.

Umudamu wambaye igitenge, yambaye n'ishati y'igitenge ari mu kisambu arimo arazirika itungo rye ry'ihene, ihene ni itungo ryiza ryororoka.

Umubyeyi wambaye ijipo y'umukara, yambaye ishati y'igitenge arunamye mu murima, umurima urimo ibihingwa bitandukanye, nk'ibigori ndetse n'imboga, arimo arasoroma imboga.

Umusore wambaye agapira k'ikake n'ipantaro y'umweru, ari ku kiraro aho ari kugaburira inka, inka ze ni iz'ibibamba zimeze neza yazitayeho cyane.

Abahinzi bari mu murima ahari igishanga, ni ikibaya cyiza cyo guhingamo nk'umuceri, barimo barahinga barenza imigende kugira ngo bazahinge bagire umusaruro.

Abagabo bari ahantu mu gisambu, umwe arimo atera igihingwa kimeze nk'ikinyomoro. Abandi bantu babari inyuma, hirya yabo hari n'ibiti birebire.

Ababyeyi bavuye guhinga bari mu bisambu aho haruguru y'icyo gisambu hari ibiti, bafite amasukari ndetse umwe yikoreye urukwi afashe n' urundi mu ntoki barimo barataha.

Abamama ni abantu bazwiho guhinga bagataha kare. Aba bari kumwe barimo barahinga, inyuma yabo hari ibindi bihingwa nk'insina ndetse n'ibindi. Hakurya yabo hari imisozi.

Bari mu kibaya n'umugore, umugabo ndetse n'umwana, umugore n'umugabo bafite amasuka barimo barabagarira imyaka bateye, hakurya yabo hari igihingwa gisa n'icyatsi cyerurutse bigaragara nk'aho ari umuceri.

Umugore wambaye ikanzu itukura arikumwe n'umugabo wambaye ishati y'umukara, bari iruhande rw'ibiraro by'inka. Harimo inka n'aborozi bameze neza, aho barimo baraganira.

Ni abahinzi bane bari mu murima w'umuceri, umuceri iyo wawukoreye neza ugakuramo ibindi byatsi bitari wo umuceri usigaye urera ndetse ukabona n'umusaruro mwiza.

Umugabo uraramye mu kirere yambaye umupira uriho amabara y'umuhondo, hejuru ye hari igiti cy'inganzamarumbo ubona ko ari mu murima we yahinzemo ibihingwa.

Abagabo babiri barimo barasarura igihingwa cy'umuceri abandi barimo barahinga ndetse n'undi umwe arimo aratembera, igihingwa cy'umuceri ni igihingwa zikunzwe mu Rwanda.

Mu ishyamba habamo inyamaswa z'amoko menshi, habamo imikenke, habamo ibiti ndetse izo nyamaswa zikaba zibona aho kurara, iyi ni imparage ifite amabara meza.

Abahinzi babiri bari mu gihingwa cy'ibigori, aho barimo barakibagarira kugira ngo bagikize ibindi byonnyi byo ku ruhande, ni umugabo n'umugore. Iyo wahinze ibigori ukabisasira, ukabibagarira, ukabitera ifumbire birera.

Umubyeyi arunamye arimo arasoroma urusenda. Yahinze urusenda ahantu hagari ku buso bunini. Ni umubyeyi wunamye arimo ararusoroma, imbere ye hari ibasi arimo arushyiramo.

Abamama ndetse n'umugabo bari mu bigori barimo barabikorera, ni ibigori basaruye aho barimo barabiryamisha hasi babitema kugira ngo bizabyare ifumbire, ibigori bitanga umusaruro.

Umugabo n'umugore bari mu nsina aho hari n'utwumbati duke n'ibigori baje gukorera ibyo bihingwa, iyo wahinze ugasubira inyuma ukabagara ureza kandi ukabona umusaruro uhagije.

Abantu bari mu murima barimo barahinga munsi yaho hari ibihuru birimo n'imiyenzi, baje guhinga bazindutse aho umubyizi bari buwucyure.

Inka nziza ni ishyo ry'inka z'imikara, ibibamba ndetse n'amasine, ni inka ziri ahantu mu rwuri rwazo aho bazubakiye kugira ngo zijye ziharira.

Ababyeyi babiri umwe yambaye igitenge n'umupira undi yambaye ikanzu yo mu gitenge, barimo baragenda mu murima uteyemo ibihingwa, umwe afite umuhoro ni abahinzi.

Ibirayi ni ibihingwa abantu benshi bakunze kurya. Ibirayi bigira umusaruro utubutse, aho ushobora guteka ibirayi nka bitatu, ukarya ugahaga. Iyo wabihinze neza.

Ibigori ni igihingwa kiza gitanga igikoma, akawunga ndetse tukabiryamo n'impungure. Ibigori biba bigomba kwitabwaho bigasarurwa bitarumagara cyane kugira ngo tubone umusaruro ushyitse.

Ibimera bitandukanye biba bikeneye izuba ndetse n'imvura kugira ngo bitange umusaruro ugaragara kandi ushimishije. Ibiti na byo bikenera kuvirwa n'izuba ndetse n'imvura. Inyubako nziza ifite amabati, ifite n'ikigega gifata amazi.

Ubuhinzi ni kimwe mu bintu bifatiye runini Abanyarwanda, aho uhinga ikintu wacyeza ukarya ndetse ugasagurira n'amasoko, hirya no hino mu Rwanda.

Ni ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo imiti, harimo ibirayi, aho bacururiza ndetse ibintu byinshi bitandukanye. Iyo wihangiye imirimo uba ugomba gushyiramo utuntu twinshi dutandukanye, dukurura abakiriya.

Ubuhinzi bw'urutoki ni bumwe mu buhinzi bukorwa n'abaturage bukorerwa kandi hafi y'ingo batuyemo, igitoki ushobora kugihinga kikabyara imineke, imineke na yo ikabyara umutobe.

Ibiti byiza harimo ibimera nk'imyumbati, urubingo ndetse n'igiti cya gereveriya, iki giti kizera kizamuke cyane, haruguru gato hari igiti cy'umwembe.

Ibigori bihinze ahantu hamwe, hari insina nyinshi hirya yabyo, ibigori ni ubuhinzi bwiza kuko biduha amafaranga menshi ndetse tukanabiryamo ubugari.

Amashu ameze neza bigaragara ko yitaweho, akaba ari marera agenda ahindura ibara. Iyo wahinze amashu, ni ngombwa kuyitaho kugira ngo atangirika.

Ku kibuga hari aho gukinira umupira, hari ahari ibimera bikeya, hakurya hari umusozi hejuru yawo hariho insinga zitambutsa umuriro mu baturage.

Umurima uhinzemo ibintu bitandukanye bashyizemo ibyenda bishinzwe kurinda iyo mirima itandukanye kugira ngo hatagira inyoni ziza kona, ibigaragara ni igihingwa cy'umuceri.

Ubuhinzi bw'urutoki, urutoki rwinshi rukoreye iyo wahinze urutoki ukarukorera ukarusasira ku buryo waruvomera mu gihe cy'izuba byanze bikunze ubona umusaruro w'ibitoki byinshi.

Ikigori cyumye ndetse hari n'ibindi bikeya, inyuma hari ibindi bihingwa. Haruguru hari inyubako nyinshi. Ni ibihingwa biri hamwe.

Imboga ni kimwe mu bihingwa bikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imboga ibitunguru, iyo ubi bitetse neza, ukaririsha ibiryo bitandukanye, wumva bimeze neza.

Ibimera bimeze neza, ni imyumbati iteye ahantu aho mo hagati harimo akayira umuntu agomba gucamo adaciye mu muririma neza, harimo ibintu byinshi n'amabuye ndetse hari n'ikindi gihingwa hepfo y'aho.

Umurima urimo imyumbati urimo urutoki, urutoki bigaragara ko batarukoreye neza. Ni umwumbati umwe aho tuba dusabwa gutera imyumbati myinshi kugira ngo tubone ubugari.

Uruboga rumeze nabi rusa naho rutangiye gutobagurika, rwafashwe nabi. Iyo uteye imboga ntuziteho, ntago ziba zisa neza cyane, nk'iyo wazivomereye ukazitaho.

Amacunga ni amacunga ameze neza ataratukura, ni amacunga afatiye ku giti, igiti ubona ko gitoshye ndetse n'amacunga asa neza cyane, niyera azagira amafaranga.

Igihingwa cy'urutoki ,urutoki rugira akamaro kanini mu rugo, aho ushobora gusarura ibitoki ugateka cyangwa se ugakora uburyo bwo kwenga ,ukuye iminekemo umutobe.

Ikigori cyahetse kimeze neza, gifite ibigori bibiri kimwe ku ruhande rumwe n'ikindi ku rundi, ibigori iyo wabyitayeho ubona umusaruro mwinshi.

Abamama babiri ndetse n'umugabo bari mu murima aho barimo barakorera ibihingwa bateye muri uwo murima, hari n'ibiti by'amoko atandukanye, harimo nk'amapapayi, ibigereveriya n'ibindi.

,gihingwa cy'ibigori, ibigori iyo byitaweho neza biba bifite umusaruro mwinshi utubutse, iyo wabihinze biba bishobora kuguha amafaranga, bikaguha igikoma ,ndetse n'akawunga ko kurya.

Umurima usa naho uteye mu ibihingwa by'ubwatsi bw'inka, hirya hari umuntu, hirya y'aho hari ishyamba rinini cyane bisa nkaho mwo murima harimo havamo imyotsi y'imyeru.

Amapoto ari ku murongo ni amapoto ajyana umuriro w'amashanyarazi hirya hari ishyamba no hino hari ishyamba mo hagati y'amapoto n'ishyamba harimo akayira, harimo imodoka n'abantu.

Ishyamba ryinshi rimeze nk'iririmo ibindi bihingwa bitobito, ni ishyamba rikurura imvura ndetse rigakurura n'umwuka mwiza abantu duhumeka.

Ibiti byiza birimo n'ibindi bimera nk'imiti yakwifashishwa mu buvuzi gakondo. Ni ibiti birebire, ibiti aho biri bikurura umwuka mwiza ndetse bigakurura n'imvura.

Inka ziri mu rwuri zirimo zirarisha, aho hari ibiti by'amoko atandukanye, harimo n'ubwatsi bwiza butoshye. Inka zishushanya ubukire muri uru Rwanda.

Inka nyinshi ziri munsi y'ibiti, aho hari n'ibyatsi zirimo zirarisha, ni inka zirimo izifite amabara nk'ibihogo ndetse n'ibibamba, ziri munsi y'ibiti aho zirisha.

Igihingwa cy'amasaka, amasaka agira umumaro munini aho usanga abantu bayanywamo igikoma, abandi bayanywamo ubushera, abandi bayaryamo umutsima, hirya y'aho hari amazi magari hejuru hari ibicu.

Amazu meza yubatse ni nko mu isantere ahantu, hari ibiti bigiye biyakikije ndetse n'inyuma yayo hari urutoki rwinshi, hakurya y'urutoki hari ishyamba. Ni ibiti bikurura umwuka mwiza.

Umuhanda wa kaburimbo, hino hari akayira k'abanyamaguru, hirya hari ibyatsi, ahandi hari ishyamba ndetse n'amazu. Uyu muhanda uteyeho amatara.

Umuhanda wa kaburimbo uri hagati y'amashyamba harimo amabara y'umweru, hari ari ku ruhande ndetse n'iririmo hagati, hari n'ibyapa.

Ibiti byinshi ni ishyamba riri ahantu hitaruye. Hari umusozi usa naho uri gucumbaho umwotsi, hejuru y'uwo musozi hariho ikirere kimeze neza, kigaragara nkaho nta mvura irimo.

Ibiti byiza, ni mwishyamba aho hari ibiti bitari inturusu ariko ni byiza cyane kubera ko birimo n'ibindi byatsi bigufiya aho ushobora kugenda ukicara ukaruhukira.

Bari muri siporo aho bari kugenda bafite n'ibindi bintu bitandukanye ni mu ishyamba, ni abantu benshi bafite uko bagenda ku kuguru kumwe kumwe.

Amazi hejuru y'ayo mazi hari ibiti ndetse hari n'igiti cyaguye aho utarebye neza wagisitaraho, ayo mazi ari mu ishyamba, ishyamba ry'ibiti byinshi.

Ishyamba rimeze neza birasa nkaho hari kuva akazuba keza, mu ishyamba ushobora kujyayo ugakubitana n'ibikoko biba mu ishyamba nk'intare, ingwe ndetse n'ibindi.

Ikirere gisa neza hariho imisozi irimo ibihu by'umweru hino hari ibihingwa bitandukanye, ni byiza ko izuba riva mu bihingwa bigakuraho cya kime cyose kugira ngo ibihingwa byere.

Ishyamba ryinshi ndetse harimo n'amabuye n'ibindi byatsi bigufi. Ishyamba ni ikimera kiza ku buzima bwacu bwa buri munsi, rikurura imvura tugahinga tukeza.

Ishyamba ryinshi cyane ry'inzitane, harimo ibiti by'inganzamarumbo, harimo ibindi bigufi, bigaragara nk'imiti, ishyamba iyo urigiyemo, ushobora guhura n'inyamanswa, zimwe zikaba zanakugirira nabi.

Ishyamba ryiza rirerire. Ni ibiti birebire bitanze akanya mo hagati, hepfo hari ibindi bihuru. Ni ishyamba ushobora gucamo ntugire ubwoba kuko harimo haragaragara.

Ishyamba rikikije igishanga kirimo amazi, aho ushobora kugenda ukarobamo amafi muri ayo mazi. Iryo shyamba ni ryinshi ndetse ni inzitane.

Inzu yubatse ahantu mu ishyamba, hino hari igiti kimeze nkaho kigiye kuma. Bisa naho izuba ryahacaniriye, hakurya hari ishyamba ryinshi rikikije iyo nzu.

Umusozi uteyeho ishyamba, ishyamba nigenzi kubuzima bwacu bwa buri munsi kuko rikurura imvura, rigakurura umwuka mwiza abantu duhumeka, hepfo gato hari akazu gasakaje amabati y'umweru.

Ahantu hahanamye hejuru ku musozi hariho ibiti. Munsi hari amazu ubona ko yubatse mu buryo buvangavanze, harimo agezweho harimo n'ashaje, hari ibiti bikikije aho hantu ndetse hari n'insina.

Inyanya, pavuro, avoka ndetse n'ibindi, ni byo by'ingirakamaro mu mubiri wacu, iyo wabihinze neza ukuramo umusaruro ufatika.

Ubuhinzi bw'inyanya, inyanya nyinshi zirunze hasi, umumama wambaye imyenda y'imikara ateze n'igitambaro mu mutwe, arimo arayorera izo nyanya mu bitebo. Amaze kuzuza igitebo kimwe n'ikindi arimo aragishyiramo.

Akarabyo keza karabya uturabyo tw'umutuku, indabyo ni bimwe mu bihingwa bigezweho muri iki gihe aho uruhinga rwakwera ukarugurisha bakaguha amafaranga.

Abagabo ndetse n'abagore muri iyi minsi bashishikariye guhinga igihingwa cyitwa amashu, aha hari abagore babiri n'umugabo umwe mo hagati, buri wese afite ishu rinini cyane.

Urubuto rwera imbuto z'ubururu ni urubuto rwiza aho rwifashishwa n'abantu bose mu kururya rumeze nka pome, ni urubuto rwiza cyane.

Ikirabyo cyiza cyazamutse neza ni ubuhinzi bw'indabyo ndetse n'izindi mbuto zitandukanye, aho bahazitiye kugira ngo zizakure neza ntawuzisagariye.

Inyanya, kokombure, ndetse n'ibindi bitandukanye bihinze ahantu aho bishobora kwitabwaho bigatanga umusaruro urenze, ni byiza kwita ku buhinzi kuko tubugiriraho umugisha w'amafaranga.

Ibihingwa biteye ku murongo, ni ibihingwa byatewemwo ibiti byo kugira ngo bibizamukireho, ahoba bazabikorera neza bakabishyiramo ibiti iyibona uzakorera neza igihingwa cyawe ubakwiye gusigamo akanya uzacamo.

Umupapa wambaye umupira w'ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu afite mu ntoki igiti, ni mu buhumbikiro aho aba yahumbitse ibiti bitandukanye, akajya kubitera ahandi.

Umubyeyi ari mu nanasi arimo arazikorera, yambaye ibitenge bisa n'ishati yambaye ateze n'igitambaro mu mutwe. Inanasi ni ingirakamaro cyane ku buzima bwacu.

Imbuto zigira uruhare mu mubiri wacu aho umugore azicuruje, yasetse afite inanasi ebyiri mu ntoki, hari imyembe, hari amatunda, hari n'amaronji ndetse na wotameroni.

Ahabugenewe ho kororera ibimera bito na bito, hari ikizu kinini cyane cyubakiye kugira ngo izuba ritazajya ryica ibyo bimera, hanyuma nibimara gukura babigemure bajye kubitera ahandi.

Ipapayi ni urubuto rwiza, aha hari ipapayi itari yera ngo itukure ariko ifite ibitumbwe, iyo turiye ipapayi mu mubiri wacu bigenda neza kuko ipapayi ryoroshya igogora.

Igiti cy'amapapayi gifite amapapayi menshi hari n'ikindi gifite makeya gusa yose ntaratukura, aracyari ibitumbwe, ipapayi ni ryiza kuko rituma tugira ubuzima bwiza.

Umumama arimo aruhira ibihingwa yahinze yambaye ikanzu y'igitenge, mu nda yaziritsemo agatambaro ateze n'ikindi gitenge, afite indobo y'umutuku arimo aravomereza.

Umugabo wambaye igisurubeti cy'ubururu bwijimye bujya kuba umukara, afite mu ntoki umupira uzirikwa ku ipombo maze umuntu agatera imyaka imiti. Yambaye na marinete y'umukara. Arimo aratera imyaka y'ibigori.

Igikoresho giteretse kiri mu ibara ry'umukara, kirimo kirakwiza amazi hirya no hino mu murima uhinzemo ibihingwa bitandukanye. Ni uburyo bwiza bwo kuhira imyaka yawe ukoresheje ibikoresho byabugenewe.

Imyaka iteye ku murongo iba ifite isuku ndetse ifite n'aho umuntu yakandagira agiye kuyivomerera cyangwa kuyisarura. Iyo wateye imyaka gutya byanze bikunze ureza kandi neza.

Bari mu murima barimo baruhira imyaka yabo bahinze. Ni ibimera byinshi bitandukanye. Iyo wuhiriye imyaka yawe nta kabuza irera.

Imashini yabugenewe mu kuhira ibifite amapine ndetse ikagenda ikwirakwiza amazi hirya no hino mu bihingwa aho uwayikoresheje atirirwa avunika.

Umumama uri mu murima uhinzemo amashu, hirya ye hari abandi bagabo batatu, barimo baramureba yuhirira ayo mashu akoresheje umupira ugendamo amazi. Amashu ni igihingwa cyiza.

Umumama wambaye agasengengeri ka move, afite rozwari y'icyatsi kibisi arimo aravomera, akenyera igitenge hirya ye hari abantu ndetse hari n'ibiti aho yateye imbuto mu murima we.

Utagaragara mu maso afite igikoresho cyabugenewe cyo kuvomera, yahinze amashu amwe yera ameze nk'imboga, aho arimo arayavomerera yambaye igisurubeti.

Umugabo uri mu myaka ye arimo arayuhirira akoresheje agapombo gatoya, aho azenguruka ashyiramo amazi hirya no hino kugira ngo imyaka ye izere neza, azayigurishe ndetse anarye.

Umurima urimo igikoresho cyabugenewe cyo kuhira nta muntu ugikoresheje, aho kiri kuhira imyaka ihinze muri uwo murima kugira ngo izere itange umusaruro.

Kuhira imyaka bikorwa mu gihe k'impeshyi, imyaka iyo wayiteye neza ku murongo hanyuma ugashyiramo imipira ijyana amazi hirya no hino, nta kabuza uwo musaruro urawubona.

Umubyeyi ukenyeye igitenge arimo aruhira imyaka ye yateye ahantu kure cyane, hari n'umurasire w'izuba ushinzwe kuzana ubushyuhe muri iyo myaka ye yateye.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi. Yambaye n'ipantaro y'umukara afite rozwari, aho arimo aruhira ibihingwa yahinze. Yambaye agapfukamunwa k'umuhondo kugira ngo ataza guhumeka umwuka mubi.

Ibihingwa bigiye bitandukanye, mo hagati yabyo harimo umupira wa kizungu ugenda ujyana amazi hirya no hino uvomera ibyo bihingwa, ni ku musozi aho babihinze mu gihe cyo kuvomerera.

Ku kumusozi ndetse hari igihingwa kiri munsi y'uwo musozi, aho harimo imashini igenda yuhirira icyo gihingwa, ku musozi hariho amashyamba.

Ni ahantu hameze nk'ahari ikibaya ariko nanone hari aho kuhirira, hari ikiyaga kinini n'amazi meza hariho n'aho abantu bakandagira.

umugabo ufite umupira w'amazi mu ntoki, arimo aruhirira imboga yahinze, yazihinze ku murongo, aho hirya hari idomora nini irimo amazi, agenda agacengezamo umupira akayobora mu myaka.

Umugabo ufite umupira arimo aravomera ibihingwa yateye, ubworozi ndetse n'ubuhinzi ni ibintu bikunze kugendana aho tuba tugomba kuvomerera neza.

Umugabo wambaye imyenda isa nabi arimo aruhira ibihingwa yahinze akoresheje akadobo, ni amazi make yagenda atera muri ibyo bihingwa kugira ngo arebe ko byazera.

Umubyeyi uhagaze mu murima, arimo aravomera akoresheje umupira urimo amazi, yambaye ibitenge, afite n'amaherena ku matwi, ni umubyeyi wunamye.

Umuhanda ukikijwe n'ibihuru hirya no hino ni umuhanda w'ibitaka ubona ko inzira yenda gusibama aho imbere hari ibicu by'umweru ndetse n'ubururu mu kirere.

Ahantu hari ibiti byinshi ndetse hakurya hari ikirere kirimo ibicu by'umweru n'ubururu. Iyo uhinze mu kibaya, ahabugenewe, ntago wahura n'ibibazo nk'isuri kuko haba hari ibiti bifata ubutaka.

Ishyamba ririmo n'ibindi biti by'amoko atandukanye bikikije icyayi, icyayi gihingwa mu Rwanda cyane cyane ahantu hakonja kugira ngo kizajye gikura neza nta mvura nyinshi cyangwa izuba ryinshi.

Mu kibaya hahinzemo ibigori, haruguru hari ibiti ndetse hari n'ishyamba ryinshi cyane hakurya, hejuru yaho hariyo ibicu byiganje, bitanga imvura.

Ahantu hari ibiti, ibiti ni ingirakamaro mu Rwanda ndetse no ku Isi hose, ibiti biduha umwuka duhumeka tukamererwa neza, bigakurura imvura imyaka yacu ikera.

Ishyamba ryinshi ririmo imyanya igiye itandukanye. Ishyamba iyo wariteye neza hazamo ndetse n'imyanya washyiramo iyindi myaka.

Ahaciye amaterasi y'indinganire hateyemo imyaka itandukanye, hari amashyamba hari ibindi bihingwa bigufi ,ndetse hakurya hari imisozi iteyeho andi mashyamba.

Imparage iba ifite amabara abiri, umuhondo n'umukara. Ikunze kuba iri mu mukenke, aho haba hari n'ibindi biti. Imparage ntago ijya yanduranya cyane ariko na none yanga igisimba kiyanduranyaho.

Ibiti birebire aho hari amazu yabugenewe yo gushyiramo imbuto kugira ngo zizajye zifashishwa mu kuzitera ahandi hirya no hino, haruguru yaho hari umusozi muremure uteyeho ibiti.

Ikibaya kirimo inzu imwe. Aho hahinze imyaka myinshi hari n'ibindi byatsi biribwa n'amatungo. Hakurya hari umusozi, hejuru y'uwo musozi hari ibicu.

Amaterasi y'indinganire afasha abahinzi mu kwagura ubutaka. Aho buri gace ugenda uhingamo igihingwa cyako. Aha hari ikibaya kimeze neza kirimo ibihingwa.

Ikibaya kiza kirimo igihingwa cy'umuceri. Hakurya hari imisozi, hakurya y'iyo misozi hari ikirere kiza. Ishyamba riri ku mpande, aho abantu bahinga, igihingwa mu kibaya.

Ikibaya kirimo ibiti byinshi. Harimo haracumbamo umwotsi uzamuka, bisa nkaho aho hantu hari amazi. Hejuru hari ikirere cyiganjemo ibicu bitanga imvura.

Ikibaya cyiza cyane kirimo ibihingwa bitandukanye. Hejuru hari ikirere gisa neza, kirimo ibicu byiganjemo ibyumweru. Ahantu heza ho gukorera ubuhinzi.

Ni ikibaya cyiza aho hari n'inzu nyinshi, hari amashyamba, hari ibihingwa, hari imisozi irebana. Iyo wahinze ahantu nk'aha ugira umusaruro ushimishije.

Umuhanda werekeza mu bibaya ndetse no mu misozi, hari ibiti byinshi ku uwo muhanda numuhanda w'igitaka aho hari utuyira dushamikiyeho ahantu mu kibaya.

Baciye amaterasi y'indinganire hanyuma bateramo imyaka. Harimo amatsinda menshi y'imyaka, higanjemo urutoki ndetse n'ibiti bitandukanye. Iyo wahinze ku murongo kweza nawe weza neza.

Mu kibaya hari amazi menshi, hari inzu, hari n'ibiti byinshi bitandukanye, hari aho guhinga hakaba n'umusozi umeze nk'aho nta kintu cyahingwaho.

lkibaya kirimo kirahuriramo imisozi itandukanye, aho hagiye harimo imirima icagaguyemo ,buri wese afitemo uwe .Hari ibimera byinshi bitandukanye, ibiti bitandukanye.

Ubworozi bw'inkoko, hari aho kurira ndetse n'aho kunywera amazi. Inkoko zigira umusaruro nk'amagi, inyama ndetse wanayigurisha ikaguha amafaranga. Ni byiza korora inkoko.

Inka ziri mu rwuri zirimo zirarisha ni inka z'umukara izindi z'ibihogo n'umukara, hakurya yazo hari ibindi biti ntanzu ihari hari igiti kinini cy'inyanzamarumbo.

Ihene nyinshi z'amoko atandukanye zirimo izifite amabara y'umweru ndetse n'ibihogo ziri ahantu bazishumuye barimo baraziragira kugira ngo zirishe zihage.

Abavuzi b'amatungo bari mu nka, aho barimo barazitaho, bambaye imyenda itandukanye, bamwe bambaye ibisurubeti by'ubururu, abandi bambaye amatabuririya y'imyeru, ni inka nziza ziri mu rupango.

Ingurube iri kumwe n'ibyana byayo yaryamye birimo bironka, ingurube igira ubworozi butubutse aho ugurisha ibyana byavutse, warangiza ukabona amafaranga.

Ingurube iri kumwe n'ibyana byayo aho birimo bironka, ingurube igira amafaranga kubera ko iyo yabwaguye ibwagagura ibibwana nka birindwi cyangwa umunani, bityo ukazajya igurisha ubona n'amafaranga.

Ubworozi bw'inkoko, inkoko zibona ibyo kurya byoroheje ndetse zikabona n'ibyo kunywa byoroheje kugira ngo zigire umusaruro w'amagi ndetse n'inyama.

Umumama ufite itaburiya yambaye y'umweru, akenyeye igitenge, ateze agatambaro mu mutwe k'umukara. Yambaye uturindantoki tw'ubururu, aho arimo aritegereza inka azivura.

Ahantu ku rupango rw'inka hari inka nyinshi z'inyambo, hari abazivura benshi bambaye bamwe amataburiya abandi ibisurubeti, barimo baravura imwe kuri imwe.

Inka nyinshi ziri mu rwuri rwazo ni ishyo ry'inka zirimo ibibamba, zirimo amasine ndetse n'ibihogo, hari n'ibiti byinshi bitandukanye.

Ubworozi bw'inkoko. Inkoko iyo wazoroye neza, ziguha amafaranga, ubona amagi, ubona inyama ndetse n'ifumbire. Inkoko ni nziza dukwiye kuzorora.

Inyana y'umweru n'umukara iriryamiye aho bayisasiye. Hari ibyatsi yanze kurya, hari isaso iryamyemo, iraryamye iripfumbase. Inka ni ubworozi bwiza.

Abagabo babiri umwe afite igicuba mu ntoki undi arahagaze hari n'undi wa gatatu wicaye arimo arakama, bari mu ishyo ry'inka aho barimo barazikama.

Umugabo wambaye imyenda y'umweru n'inkweto z'umweru, ari mu mishwi yoroye aho izakura ikavamo inkoko nyinshi, harimo aho irira ndetse n'aho inywera amazi.

Umusore wambaye ishati y'icyatsi cyerurutse cyane, yambaye ingofero y'umutuku, ipantaro y'umukara, inkweto z'umweru n'ubururu. Afite igicuba kigufi, ari iruhande rw'inka, arimo arayikama.

Ingurube ni inyamaswa igira amafaranga aho iri kumwe n'ibyana byayo bayubakiye ikiraro yisanzuriramo bamenamo ibyo kurya ndetse n'aho guhagarara harasukuye.

Inka nziza y'amabara abiri ibihogo n'umweru, ifite iherena ry'umuhondo ku gutwi irunamye irimo irarya, inka ni ubworozi bwiza aho inka ishushanya ubukire.

Abagabo batatu umwe aricaye arimo arakama babiri barahagaze, umwe arimo arakora ku nka aho bazishyize hamwe mu ifamu kugira ngo bajye bazikamira hamwe bazigaburire hamwe.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bugezweho mu Rwanda, aho usanga buri wese afite ikibuti cy'inkoko, kirimo inkoko nibura nka makumyabiri ugereranyije, inkoko zifite agaciro kenshi.

Inka nziza z'inyambo ziri mu biraro byazo, aho ziri kumwe n'abavuzi bazo. Inka z'inyambo zifashishwa mu birori bitandukanye by'umuco gakondo nyarwanda.

Inkoko z'amasake ndetse n'inkokokazi, inkoko zigira umusaruro mwinshi haba kuzigurisha, haba kugurisha abana, kugurisha amagi ndetse byose ukanabirya, bigira akamaro mu mubiri w'umuntu.

Mu gihe cy'izuba usanga inka nyinshi zijyanwa kuhirwa. Aha hari inka nyinshi zirimo ibimasa ndetse n'imbyeyi, aho ziri mu mbuga ziri kujyanwa kuhirwa amazi.

Ibikoresho byifashishwa babikamo umusaruro w'amagi, aha babyubakiye neza kugira ngo bajye babibikamo ndetse habagamo n'inkoko bororeragamo.

Ingurube iri mu kiraro cyayo, itegereje ibyoku kurya aho iri kureba aho biri buturuke, ikiraro cyayo cyubakishije amatafari ahiye kandi bakorotiriyeho na sima.

Umugabo wambaye itaburiya y'icyatsi ahagaze mo hagati mu nkoko, ateruye inkoko mu ntoki aho arimo arerekana ubworozi bwe bw'inkoko aho aba yazihaye aho zirira n'aho zinywera.

Ingurube iryamye ahantu bayiteguriye ho kurara ndetse no kurira, ingurube zigira amafaranga menshi kuko iyo zabyaye zigira abana benshi hanyuma wabagurisha ukabona amafaranga.

Ingurube ni iyamaswa ikunze kugira umwanda, aho bayishyira ahantu habugenewe, hitaruye kugira ngo irye inywe ndetse itange n'umusaruro.

Umukumbi w'ihene aho ziri kumwe nta biziriko zambaye ziri hafi y'ibiti, ihene iyo zibaye nyinshi bazita umukumbi, ni ihene nziza cyane.

Ingurube eshatu ziri mu kiraro. Harimo ibyo kurya byazo nubwo ndetse hubatse neza ariko ntibizibuza kuzenguruka hirya no hino. Ingurube zigira amafaranga mu buryo bwinshi butandukanye.

Ubworozi bw'ingurube, ingurube ni inyamaswa yororwa ndetse ikaba yagira n'amahane ikaba yaryana rimwe na rimwe, ingurube zizwiho kugira amafaranga menshi, iyo yabwaguye igira amafaranga menshi.

Inka nziza ziri mu kiraro cyazo, aho ari inka ziciye amahembe, zifite n'amaherena, n'inka ziri mu mabara y'ibihogo. Iyo washyize inka ahantu hamwe uzigaburira bikworoheye.

Inka nyinshi mu shyo ry'inka ziri mu rwuri rwazo aho zagiye kurisha, ziri kumwe n'abashumba bazo kugira ngo bazirebere zitajya kona.

lmishwi myiza cyane y'inkoko ,ni ubworozi bw'inkoko aho bororeye udukoko twiza cyane hamwe, kugira ngo tuzatangire hamwe umusaruro.

Inkoko nziza zororewe hamwe zifite ibyo kurya imbere yazo ndetse n'ibyo kunyweramo amazi. Ni ubworozi bw'inkoko zigezweho, aho zitera amagi menshi.

Inkwavu ziri mu tuzu twazo, ni inkwavu nziza cyane aho iruhande rwazo hahagaze abantu, harimo abambaye amatabuririya y'umweru abandi bambaye ibisirubeti by'umukara n'inkwavu nziza cyane.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukunze gukorwa mu Rwanda. Aho usanga barazubakiye ndetse zikaba zimeze neza nk'ihene, ingurube ndetse n'inkoko. Aha hari ihene z'igitare.

Ubworozi bw'inkoko aho ziba ziri hamwe baba bazisukiye ibyo kurya ndetse naho kunywera amazi, ni inkoko nziza ubona ko zizatanga umusaruro ufatika.

Inka iri mu kiraro cyayo, ni inka y'ikibamba aho imbere yayo hari ibiti bibiri bitambitse by'umutuku, ni ibyuma ku buryo itabimena ngo isimbuke isohoke hanze, hirya y'aho hari umuntu wegamye.

Imifuka myinshi irimo umusaruro bigaragara ko ari mwinshi kuko buri mufuka uruzuye, hari umugore uyiri iruhande wambaye agapira k'umukara, ni umusaruro mwiza ushimishije.

Hari ibiganza bibiri bifashe imbuto mu ntoki, imwe ni imbuto bigaragara nk'aho ari iy'amasaka cyangwaburo, indi ni iy'umuceri. Iyo duteye imbuto y'indobanure tureza tugasagurira n'amasoko.

Ibiganza bifashe amasaka atatu, harimo iry'umutuku cyane, iry'umweru ndetse n'undi mutuku ujya kuba nka orange. Amasaka ni ingirakamaro kuri twe nk'abantu.

Umugore uri aho bororera ibihingwa, baba babiteretse mu dushashi, byamara gukura bakabigemura bakajya kubitera ahandi, ni mu buhumbikiro.

Ibiganza bifashe mu ntoki ihundo ry'amasaka, bigaragara ko barimo baratema amasaka, amasaka ni ingirakamaro mu buzima bwacu, aho tuyanywamo igikoma, tukayaryamo n'ubugari.

Ibishyimbo, amashaza ndetse n'ibindi bitandukanye bimeze neza cyane. Umusaruro mwiza uhesheje ishema uwawuhinze, abonamo amafaranga menshi.

Abantu benshi bari imbere y'umusaruro w'ibigori, harimo abagabo, abagore, umusaruro w'ibigori ni mwiza cyane kuko tuwukuramo ibyo kurya ndetse n'ibyokunywa.

Ibiganza bifite mu ntoki umusaruro, ni umusaruro bigaragara ko wabaye mwinshi, iyo uhinze ugasarura ugahunika ugira amafaranga ndetse ubukungu bukiyongera.

Ibigori bimeze neza ni ibigori biri mu ibara ry'umuhondo, ibigori mu buzima busanzwe bikunze guhingwa ahantu mu bishanga, aho usanga abantu barabihinze kugira ngo bazabiryemo akawunga.

Bafite ibishyimbo basaruye ni umugabo n'umugore, ibyo bishyimbo biri mu gatebo, iyo wahinze neza ugasarura, uba ugumba no kubika imbuto nanone kugira ngo uzatere ikindi gihe.

Ibiganza bigaragara nk'ibifashe umuti. Imiti ya gakondo ni imiti yifashishwa n'abantu ndetse haba hariho utubuto ukadukuraho ukagenda ukadutera.

Ikiganza gifite mu ntoki imbuto. Ni imbuto nziza ku buryo uyiteye wazeza ibihingwa byinshi ukagira umusaruro mwinshi, iyo dufite imbuto tuba dufite umusaruro.

Inka nziza iri mu rupango aho bayubakiye kugira ngo ige iharira, yarwaye abaganga bayo babizobereyemo baje kuyireba ngo bayivure ubwo burwayi ifite.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru yipfutse agatambaro mu mutwe k'umukara, yambaye akarindantoki, ari ku rupango aho ari kuvura inka ni ubuvuzi bw'amatungo.

Imbwa nyinshi ziri ahantu imbere y'inyubako, aho bazizanye kugira ngo bazikingize, zitazatera abantu uburwayi. Amatungo aba abana n'abantu, ni byiza ko bayatera imiti.

Umuveterineri w'inka arimo arayivura inka isa nk'aho ifite igisebe ku itako aho veterineri yafashe, veterineri yambaye bote z'umukara, igiserubeti cya kaki ndetse n'akagofero k'ubururu.

Umukobwa wambaye itabuririya y'umweru, inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara, yambaye n'akagofero mu mutwe. Arimo arapanga ubujerekani bwiza cyane bw'umweru butoya ndetse n'ubundi yabupanze haruguru.

Umugabo wambaye boti z'umweru, igisarubeti cy'ubururu, ingofero y'umweru, yambaye n'akarindantoki arimo arakora mu nda y'amaganga y'inka kugira ngo ayivure. Inka ni iy'ibihogo, ni inyambo nziza ifite amahembe maremare.

Umuganga w'amatungo arimo aratera inka urushinge, yambaye itaburiya y'umweru, uturindantoki tw'ubururu, abantu barayifashe ni inka nziza y'umukara isa naho yarwaye.

Umusore wicaye wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'ubururu arimo arakora ubushakashatsi ku muti, ni umuvuzi w'amatungo.

Amacupa yifashishwa n'umuvuzi w'amatungo. Aho hari n'icupa rinini risa n'iririmo amazi. Ayandi macupa mato akaba arimo umuti.

Abaganga bambaye uturindantoki n'udupfukamunwa bambaye n'iniforume y'icyatsi, barimo bariga uko batera urushinge inka kuko ari abaganga b'amatungo.

Inka nziza ndende ndetse zifite n'amahembe maremare, ni inka z'Inyambo, ziririye mu ifamu aho hari abantu babiri bambaye amatabuririya y'imyeru, undi yambaye ibisanzwe baje kuzireba bazikiza ibirondwe ndetse n'ibindi bintu bibi.

Umuganga w'amatungo apfukamishije ivi rimwe irindi yarishinze yambaye igisurubeti cy'ubururu, afite mu ntoki igitoryi aho arimo arakanda areba neza uko azajya akoresha.

Inka bayiryamishije hasi barimo barayidoda, aho bamaze kuyibaga bakuramo umwana. Inka iyo yananiwe kubyara, bahamagara umuvuzi wazo akaza akayibyaza.

lnka iyo yananiwe kwibyaza ni ngombwa kuzana umuganga w'amatungo akayibyaza. Yayibaga, yayikora mu nda, ikizima nuko uko ibyara kandi na yo igasigara ari nzima.

Udukende dutatu, kamwe kararyamye, akandi kunamye hejuru yako, akandi kicaye hirya. Ni udukende tumeze nk'abantu neza neza ku buryo uba ubona gakora n'ibikorwa nk'iby'abantu.

Ingwe iyo yaryamye iri kuruhuka ikunze kuryama mu biti. Aho hagize ikindi gisimba kiyigwaho, yakimerera nabi. Aha hari igwe ifite amabara y'umukara n'umweru ndetse n'ikigina.

Ibisimba by'ishyamba birimo birarwana, ni ibisimba bibiri byose byashinze amavi birimo birarwanisha amahembe, biri mu ishyamba hagati aho hari n'ibyatsi.

Intare ni inyamaswa izwiho kugira uburakari bwinshi aho iba yiryamiye hakagira akanyamaswa kaza kayanduranyaho iratontoma cyane ku buryo n'izindi nyamaswa zihunga.

Ibisimba bibiri bijya kumera nk'imbata, biri mu byatsi aho kimwe kiri inyuma y'ikindi. Bimeze neza bifite ibara ry'umweru mu maso, umukara ku gahanga ndetse n'ibara ry'ikijuju ku mababa.

Inzovu ni igikoko cyo mu ishyamba giteye ubwoba, ni kinini cyane, kiba gifite ibintu bibiri biri kumanuka hasi n'ikindi kimwe kirereta hasi ku munwa, kiri mu biti bitandukanye ndetse no mu byatsi.

Ingwe irimo iranywa amazi ihagaze ku giti kirambitse ahantu bisa nk,aho cyaguye, ni mu ishyamba iyi ngwe irimo iranywa amazi irigata.

Inyamaswa yaryamye ku giti batemye hejuru ni inyamaswa imeze nk'imbwa. Iri mwishyamba mo hagati irasinziriye ku buryo hagize ikindi gisimba kiza itabimenya.

Inyamaswa imeze nk'imbwa ni inyamaswa y'ishyamba, irimo irambukiranya amazi yikweduye cyane kugira ngo itaza gukandagira muri ayo mazi, ifite amabara nk'umukara, umweru ndetse n'ibihogo, ifite n'umurizo ubyibushye.

Ingwe irimo iragenda ku biti ibyambukiranya, isa n'aho yarakaye kuko ikanuye nabi, ingwe ni igisimba cy'ishyamba kidakunze kugira amahane cyane ariko iyo ibindi bibyiraseho, bibyereka amahane yabyo.

Inyoni ifite umunwa w'umuhondo mu maso ni icyatsi ndetse n'ibara ririmo nk'umweru n'umukara, aho iryamye mu mazi irimo iroga. Ni inyamaswa yo mu ishyamba.

Imparage, isha, ni ibisimba byinshi bikunze kuba mu mukenke aho haba hari n'ibindi biti, ibisimba bifite akamaro ku gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Imparage ni ibisimba byiza bigaragara ku isura biba biri mu ishyamba akenshi bikunze kuba mu mapariki aho biba bikurura ba mukerarugendo na bo bakinjiza amadovize mu gihugu.

Inyamaswa imeze nk'igiti ihagaze ahantu, iyi nyamaswa uyiguyeho wagira ngo ni igiti kihagarariye ahantu. Ni inyamaswa y'ishyamba irimo iragenda irisha.

Inyamaswa y'ishyamba ijya kumera nk'ihene ni inyamaswa bita isha, iri imbere y'igiti kinini kigaragara igitsitsi cyacyo, iyo nyamaswa irimo irareba inyuma yayo.

Ibikoko biba mu mazi bimeze nk'imbata cyangwa ibishuhe, biba biri koga, aho bigera iminwa miremire y' imyeru. Ni ubworozi bwo kororera, ibisimba mu mazi.

Ingwe ni igikoko cyo mu ishyamba giteye ubwoba. Iba ifite amabara abiri, iry'umuhondo n'umukara. Iyo uyibonye ntiwiruka kuko wirukanse yakwirukaho.

Inyamaswa z'inkende ndetse n'izindi ziba zitandukanye nk'ingagi ndetse n'intare zigiye zigaragara mu mapariki atandukanye, aho ba mukerarugendo baza kuzisura.

Inyamaswa y'ishyamba iba imeze nk'imbwa. Iba ifite umurizo muremure aho ifite amabara abiri, umweru ndetse n'ibihogo. Ni inyamaswa iri kureba ahantu hakurya ihagaze mu ndabyo.

Inyamaswa y'ishyamba, aho iba ifite uduhembe tumeze nk'aho ari igiti. Ni inyamaswa ijya gutera nk'inka ariko na none irimo irarisha hafi y'umugezi. Inyamaswa y'ishyamba.

Utunyamaswa two mu ishyamba hari igihe tujya kunywa amazi, aya ni amasha aho aba ari mu mugezi arimo aranywa amazi haruguru ari ibyatsi.

Inyamaswa z'ishyamba, ni inyamaswa nyinshi ziri mu ishyamba mo hagati, harimo n'imodoka itwaye abantu aho baje gusura izo nyamaswa, haruguru y'aho hari umusozi muremure.

Inzovu n'ibikoko bigiye bifite ibintu by'ibyibyinyo imbere, aha hari ibisimba byinshi by'ishyamba harimo nk'ingwe, intare, ndetse n'izo nzovu byahuriye hamwe aho birimo biraganira.

Ibisimba byo mu ishyamba bijya bikurura ba mukerarugendo bakaza kubisura, aho rimwe na rimwe babisanga mu mapariki atandukanye, harimo imodoka ndetse hari n'igisimba kegereye igiti gisa n'icyumye.